Umukobwa uri kwamamaza ubwishingizi bwa Radiant akaba afite telefone ku gutwi, akaba yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Ku ruhande hakaba hariho ivarisi.

Umugabo urimo guseka wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara ku ruhande hakabaho, hariho ibirango byamamaza bya asiransi; hakaba ahanditseho Sonarwa inshuwarensi.

Abagabo batatu babiri bambayesite zisa umweru begereye icyapa cyanditseho muwa , muwa inshuwarense Rwanda limitedi.

Umukobwa uryamye ku musego ufite telefone ku gutwi uri kwamamaza Sonarwa, hasi hakaba handitse amagambo avuga kuba Hotel yuzuye ntibikwiriye guhungabanya urugendo rwawe.

Icyapa kiriho umugabo wambaye kositimu, amazina ye akaba yitwa Brian Jones, impande ye hakaba hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Ni icyapa kimanitse hejuru, kigizwe n'ibirango byamamaza. Nk'urugero: uko wahanga bizinesi cyangwa se uko wafata ubwishingizi.

Banki irimo kukwereka uburyo uba waragiye ubitsa amafaranga cyangwa uburyo uba waragiye uyabikuza ukoresheje akawunti yawe.

Barimo kukwereka uburyo, ushobora gukoresha kuri enterinete, ukorana n'amabanki agiye atandukanye, uburyo ushobora kohereza amafaranga bitakugoye.

Barimo barakwereka serivisi za banki ofu Kigali, uburyo ushobora kuzikoresha ukoresheje akawunti yawe mu buryo bwo kohereza amafaranga, kwishyura cyangwa se ukoresheje n'ikarita.

Ifoto yerekana uko banki wakohereza amafaranga ku mabanki agiye atandukanye, cyangwa se kuri mobayiro mani bikoroye cyane.

Banki irimo kukwereka serivisi zayo uburyo ushobora kuzikoresha ukoresheje telefone, bakakwereka uburyo uba waragiye usevingamo amafaranga yawe.

Iduka ricururizwamo imyenda igiye itandukanye, rikaba rifite imyenda y'amajakete yo kwifubika, rikaba rifite ama shati, rikaba rifite ndetse n'imipira yo kwifubika.

Inzu icururizwamo imitako ya kinyarwanda, iyo imitako ikaba igizwe n'amahembe y'inka, ibiseke, imyenda yo kwambara ya kinyarwanda n'indi mitako igiye itandukanye.

Iduka rya mpagaze rifite umuryango ufunguye, hejuru hakaba hariho amagambo purayidi butike, ricuruza imyenda irimo amakote ya kositimu, amatishati n'ibindi bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi yanditseho hejuru amagambo mama amina, iyo nzu ikaba isa icyatsi, imbere yaho hakaba hariho abagabo babiri bacuruza imisego, inyuma yaho hakaba hari umudamu wambaye imyenda y'igitenge.

Inkweto za sipurese, ingozi z'abagabo hakaba hariho n'inkweto z'abagore, zikaba ziteretse hejuru ku gitambaro gisa umweru.

Imyenda isa nkaho iri aho bayigurishiriza ikaba ari imyenda isa umweru n'umukara ku ruhande rwayo hari agakapu ariko marete k'umukara nyuma yaho hakaba hari amatasi menshi agiye atandukanye.

Imodoka z'ubwoko bumwe nyinshi ziparitse nshyashya ,ku ruhande hakaba hariho inzu z'amatage ebyiri hakaba hariho n'ibiti bihateye.

Abagabo babiri, umwe asa nkaho atunze urutoki, arimo kwereka mugenzi we ahantu runaka, impande yaho hakaba haparitse amamodoka menshi, inyuma yaho hakaba hari amazu y'amagorofa maremare.

Imodoka zigurishwa nshyashya zikaba ziparitse muri parikingi, ku ruhande hakaba hariho ibiti, hakaba hariho n'inzu ya hotel.

Imodoka ebyiri shyashya ziparitse zigurishwa inyuma, yazo hakaba hariho itente risa umweru rikaba ririho n'amagambo asa umukara yanditseho eyibiji.

Abagabo babiri bafashe urufunguzo rusa nka pulasitike rwanditseho amagambo eyibiji Akagera motozi yanditse mu mabara y'umutuku, ku ruhande hakaba hari ikamyo n'izindi modoka.

Abagabo batatu n'umugore umwe, impande yaho akaba ahaparitse imodoka ndetse ku ruhande akaba ariho n'amadirishya ariho ibirahuri..

Abagabo bari imbere y'ikamyo bafashe urufunguzo rukozwe muri pulasitike rwanditseho eyibiji Akagera motozi.

Aho bagurishiriza imodoka hakaba haparitse imodoka isa umukara shyashya imbere yaho akaba ari n'imiryango ifunze iriho ibirahure.

Abagabo babiri barimo gusuhuzanya, bakaba bafashe igishushanyo gishushanyije nk'urufunguzo cy'umweru, kirimo amagambo yanditse, eyibiji, inyuma hakaba hari imodoka y'ikamyo yanditseho fuso.

Abagabo babiri bahagaze bafashe urufunguzo rukozwe muri parasitike handitseho inyuguti ya eyibiji, ku ruhande hakaba haparitse imodoka y'umweru.

Imodoka nshya ifunguye imiryango, imbere hakaba hariho intebe ebyiri n'inyuma hakaba hariho intebe ebyiri, intebe y'imbere ikaba ifunikishijwe n'amashashi.

Abagabo babiri bahagaze bafashe urufunguzo rwa purasitike, rwanditseho ABG Akagera motozi, bakaba begeranye n'ikamyo ya fuso.

Intoki ebyiri zifashe inote iyo, note ikaba iriho umugabo wambaye kositimu akaba ari inoti y'igihumbi ,ku ruhande hakaba hariho n'akamashini kayabara.

Inote ebyiri z'ibihumbi bitanu zitandukanye, iyo hejuru ikaba iriho intore ndetse n'abakobwa babyina, iyo hasi ikaba iriho inzu ya etaje.

Inote iteretse ahantu ku meza, iyo note akaba ari iy'ibihumbi bitanu, ikaba isa umutuku, ikaba yanditseho banki nkuru y'u Rwanda, ikaba ishushanyijeho ingagi, ishushanyijeho n'inzu iriho amabara y'ubururu n'umuhondo n'icyatsi.

Umuntu waje gufata amafaranga kuri bishe, akaba yambaye agapfukamunwa gasa ubururu, hakaba harimo umudamu mu imbere urimo kumuha amafaranga na we wambaye agapfukamunwa k'umukara, hejuru hakaba hariho icyapa cyanditseho wesite union gisa umuhondo ndetse n'umukara.

umudamu usa nkaho uri muri banki, uri kubara amafaranga, kuri ka kuma k'akamashini, akaba yambaye n'akabaji, n'umwenda usa umutuku, n'amarinete.

Umugabo uri kubara inote ku kamashini kayabara, amafaranga akaba ari ku meza, akaba ari inoti zigiye zitandukanye. Imbere yanjye hakaba hariho inote iriho N magana atanu.

Inote ebyiri z'ibihumbi bitanu iyo hejuru n'iyo hasi iyo hejuru ikaba iriho ababyinnyi ndetse n'intore iyo hasi ikaba ishushanyijeho inzu.

Ibiceri bibiri by'u Rwanda icyo hejuru kikaba kiriho mirongo itanu sekanti fura icyo hasi kikaba kiriho amagambo, hagati hakaba hariho agashushanyo k'igiti.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu n'isaha, uri guterura amafaranga, hakaba hari n'andi afite ku ruhande, impande ye hakaba hariho na sheke.

Igiceri cy'u Rwanda kikaba kizengurutswe n'amagambo y'inyuguti kikaba kiriho igitoki gishushanyijeho hagati.

Umuntu ufite inote mu biganza bye, akaba ari inote y'igihumbi, ikaba ishushanyijeho umugabo wambaye kositimu n'ishati na karuvati isa umukara, irimo uturongo tw'umweru.

Inote ya banke nkuru y'u Rwanda, akaba ari inote ya magana atanu, mo imbere hakaba hariho inka ebyiri, ku ruhande hakaba hariho sinye z'ubwoko bugiye butandukanye.

Abagabo babiri umwe wambaye umupira w'umweru wa lakosita, undi akaba yambaye ingofero n'agapfukamunwa akaba yaje muri banki bakaba barimo baramusobanurira.

Abantu batanu bicaye aho bagurira amata, bateruye ibirahure birimo amata hasi yaho hakaba hari isahani iriho irindandazi.

Umugore wicaye aho bacururiza amata, akaba yambaye imyenda y'igitenge, akaba afite n'isakoshi na terefone mu ntoki, impande ye hakaba hari itasi irimo icyayi cy'amata n'ikiyiko.

Aho bakirira abantu baje kunywa amata cyangwa baje kuyagura ngo bayatahane imbere yaho hakaba hashushanyijeho ibyapa by'utubido, hejuru yaho hakaba hashushanyijeho inka hariho n'amagambo ya Nyanza ku ruhande hakaba hariho intebe n'ameza.

Anverope isa umweru ikaba irimo amandazi cyangwa keke mo imbere , ikaba iri hejuru y'ipurete itarimo amagi isa umutuku, bikaba biri hejuru y'ameza.

Ifoto iriho umuntu muri supamaketi uhagaze kuri kontwari, hakaba hariho imineke, za fanta amaji n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu babiri umwe wicaye n'undi uhagaze bari ahantu bacururiza amata, inyuma yaho hakaba hari kotwari iriho ji na za fanta.

Ameza ariho isahani iriho irindazi na papiyejenike ku ruhande hakaba hariho intebe y'ubururu yo kwicaraho.

Umugabo ugiye kwishyura aho bacururiza amata, imbere ye hakaba hari umukobwa wicaye, hakaba hari na Kontwari irimo ji ndetse n'amazi.

Umukobwa uhagaze, wambaye agakote k'umukara n'akajipo , akaba ari ahantu bacururiza amata, hakaba hariho n'icyuma kiba kirimo amata, kiriho ibirango bya miliki indasitiri.

Inzu iriho ibyapa by'aho bacururiza amata, bikaba biri mu mabara y'ubururu ndetse hakaba hariho n'ikirango kiriho inyange isa umweru ndetse ku ruhande hakaba hariho akayetajeri kariho amandazi na za ji n'agakarito munsi yaho.

Umuntu uri gusuka amata akaba afite ijage isa umweru n'umubikira w'ubururu, akaba arimo kuyashyira mu kabido k'umweru impande ye hakaba ari icyuma cy'amata n'umuntu uri ku idirishya utegereje.

Umugabo ugiye kwishyura muri botike irimo inajidiriki hakaba hariho na fanta hakaba hariho na ji ziri mu ka etajeri ku ruhande hakaba hari firigo iriho amabara y'ubururu n'umweru yanditseho mukamira

Aho bacururiza amata. Hakaba hari anvelope ya kakiyi. Hakaba hari uducupa tw'amazi; hejuru kuri etajeri hakaba hari inkongoro. Impande yaho hakaba hashushanyijeho inka y'amabara y'umweru n'umukara.

Inzu bacururizamo amata ikaba iriho imbere kontwari irimo amagi, hejuru yaho hakaba harimo kontwari iriho amata y'inyange na za ji.

Bari kukwereka uburyo ushobora gukoresha serivisi ushobora koherezaho amafaranga ukoresheje interinete, bari kukorereka mobayiro namba bankingi akawunti wesite yuniyoni lokesheni.

Bari kukwereka uburyo ushobora gukoresha SPENN wishyura, hasi hakaba hariho amagambo yanditseho emeza gatanu, ku ruhande hakaba hariho telefone, ikaba hagati hariho ibihumbi makumyabiri by'amanyarwanda.

Umugore uri gutunga intoki ahantu, asa nkaho ari kwereka abantu bari kumwe bambaye imyenda MTN, akaba afashe na fanta ya koka mu ntoki.

Bari kukwereka abagabo babiri bagiye kwinjira mu muryango, hejuru yabo hakaba hariho icyapa gisa ubururu cyanditseho paypay conectando.

Bari kukwereka uburyo ushobora gukoresha apurikasiyo wohereza amafaranga ku muntu uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu.

Bari kukwereka uburyo ushobora koherezayo amafaranga hanze y'igihugu ukoresheje terefone, utigereye kuri banki. Hejuru hakaba handitseho intanashino hakaba hariho n'akarongo gatukura.

Umusore wicaye uri kwamamaza serivisi za airtel, wambaye umupira w'amaboko maremare w'umweru ndetse n'ikoboyi. Impande ye hakaba hariho telefone irimo kwerekana serivisi za airtel.

Bari kukwereka urupapuro rw'inyemezabwishyu rwa Rwanda Revenue Authority, ku ruhande bakaba barimo barakwereka n'ikirangantego cya Republic of Rwanda.

Bari kukwereka fagitire wishyuye kuri kampani ya Tarama Rwanda Limited, munsi hakaba hariho n'andi magambo yanditseho tenkisi foru yo oda.

Barimo kukwereka dokima zawe kuri Rwanda reveni otoriti, buryo ushobora kuba warishyuyemo imisoro cyangwa se bakakwereka uburyo ushobora gufata icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro.

Urupapuro ruriho imyirondoro yerekana uburyo wagiye winyinjiza amafaranga uko wagiye uyabitsa cyangwa se uyabikuza.

Bari kukwereka uburyo purayime inshuwarense iherereye nyarugenge uburyo iba yaragiye yishyura imisoro, ya Rwanda reveni otoriti.

Rwanda reveni otoriti irimo kukwereka uburyo wagiye wishyura umusoro, ku ruhande hakaba hariho ikirangantego cya Repablike ofu Rwanda bikaba byakorewe i Nyarugenge.

Bari kukwereka uburyo ushobora kuba warishyuye imisoro cyangwa se urimo imyenda muri Rwanda Revenue Authority, ku ruhande bakakwereka n'ikirango cya Repubulika y'u Rwanda.

Rwanda reveni otoriti, irakwereka urupapuro rukwereka ko ushobora kuba waragiye wishyura imisoro igiye itandukanye.

Bari kutwereka ifoto y'uko ibiciro by'ifaranga rihagaze ku isi, bari kutwereka ifaranga ry' amerika bari kutwereka ifaranga rya Canada, i ry'Abongereza, i ry'Abashinwa n'iryibindi bihugu bigiye bitandukanye.

Inote zishushanyijeho abantu zikaba zigizwe n'amabara y'umutuku, umuhondo n'icyatsi n'andi agiye atandukanye hakaba hariho amafaranga magana atanu, icumi, ibihumbi bibiri, ibihumbi icumi n'andi agiye atandukanye.

Inote z'amafaranga y'amayero, izo note zikaba ziriho amafaranga agiye atandukanye, magana abiri, ijana, mirongo itanu, makumyabiri, icumi n'atanu.

Ifoto iriho inote z'amafaranga y'ibiceri iriho umuntu ufite ikaramu uri kwandika ku rupapuro.

Bari kukwereka amafaranga y'inote, ya banki centrale du Congo, akaba ari magana abiri, magana atanu, ndetse n'ijana.

Umugabo ufashe inote z'amadolari mu ntoki, hakaba hari n'izindi note ziteretse hasi zitari iz'amadolari, inote z'ijana n'izindi za makumyabiri.

Ikiganza gifite inote za magana atanu z'umuhondo n'iz'igihumbi zirimo akabara gatukura imimbere hakaba harimo umusaza wambaye amarineti.

Umuntu ufite inote z'amanyamahanga akaba ashushanyijeho n'umuntu, hariho n'amagambo yanditse mu gishinwa.

Akazu ka kiyosike ka biro de shanje kariho umugore urimo guseka, hejuru hakaba hariho icyapa cya serivisi batanga ariho mani egisicenje, moni taransifa, taravo andi viza, fayinansho andi savise.

Inzu ifite imiryango ifunze iriho ibyapa byamamaza kampani runaka, hakaba hariho wesiti yuniyoni mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara, ku ruhande hari utwuma dufite amabara y'umukara tuzitirishijwe n'imigozi y'utwuma.

Umuntu waje kuvunjisha amafaranga, impande yaho hakaba hariho undi mugabo uri ku cyuma cya ATM, akaba yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba afashe telefone mu ntoki.

Umugabo aje kuri banke aho bakirira abantu, imbere ye hakaba hari abantu babiri, umuhungu n'umukobwa. Inyuma yaho hakaba hari ibyapa byamamaza bigizwe n'amabara y'umuhondo, umutuku n'umweru.

Inzu y'ivunjisha, inzu ikaba iriho umuryango ufunguye, hejuru hakaba handitseho werikamu tu forekisi biro, dukomere, ikaba ifite umuryango usa umweru.

Inzu ya biro de shanje, iriho ibirahure, bimanitseho ibyapa byamamaza, hejuru hakaba hariho icyapa cyanditseho ekisi cenje mu mabara y'umuhondo.

Abamotari bari umuhanda w'amabuye, impande yaho akaba ari amazu, hirya y'aho hakaba hagaragara amazu menshi ndetse n'ishyamba.

Intebe ziri hejuru y'itapi, hagati yazo hakaba hari akavaze gateretseho indabo, hejuru yaho hakaba hari ibishushanyo, impande yaho hakaba hari idirishya.

Ameza n'intebe zibaje mu mbaho, ku ruhande hakaba hari moto iriho umumotari, hakaba hariho n'imodoka y'ikamyo, bikaba biri mu muhanda.

Inzu irimo intebe zigiye zitandukanye zigurishwa hagati hakaba hari ameza, abaje mu rubaho hejuru yaho hakaba harambuye igitabo.

Intebe zigurishwa zamadiva zikaba zifite n'imisego yazo hagati hakaba hariho ameza n'udutaburete tubiri.

Inzu irimo amakaro n'intebe zibaje mu mbaho zifite imisego akaba ari intebe eshatu, ku ruhande hakaba hari igikuta ndetse n'idirishya.

Bife ziriho ibiryo, ku ruhande hakaba hariho n'imbuto, z'inanasi, ndetse n'imineke, n'izindi mbuto zitandukanye.

Bari kukwereka umuntu urimo koga muri pisine, iruhande rwa pisine hakaba hateretse udutebe ndetse n'ameza, hakaba hakikijwe n'umutaka.

Inzu ya hoteli isa umweru, ifite utudirishya, ku ruhande hakaba hariho pisine, ku ruhande rwaho hakaba hariho udutebe bicaraho.

Hoteri iri ku muhanda ikaba ifite igipangu gifunguye, ku ruhande hakaba hateyeho jaride iriho ibiti impande yaho hakaba hari agakaburimbo.

Inzu ya hoteli igizwe n'amagorofa atatu, ku ruhande hakaba hariho umutaka wicariramo na jaride.

Ameza ndetse n'intebe, ku ruhande hakaba hariho imitaka ifunze impande yaho hakaba hazitirishijweho n'utwuma.

Iyi hotetri igizwe n'indi nzu ku ruhande hakaba hari na jaride ziteyemo ibiti, ku ruhande hakaba hari ka kantu kazizimya inkongi.

Salo irimo intebe zitandukanye, hakaba hariho ameza ateretseho imbuto, akaba hariho n'ibirahure bibiri hejuru y'ameza, ku gikuta hakaba hateretseho televiziyo.

Hoteli ifite pisine, impande ya pisine hakaba hariho udutebe two kwicaraho, hakaba hariho n'udutaka hejuru turinda izuba, impande yaho hakaba hariho jaride iteyemo ibiti.

Ibiro bya Prime insurence, bikaba biriho umudamu wicaye ku ntebe y'umukara, impande ye hakaba hariho intebe zisa umutuku, hakaba hariho n'ameza ariho imvaho.

Amazu abiri ari ku muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hakaba hateye jaride, hakaba hariho n'amagambo asa ubururu ndetse n'umutuku yanditseho buritamu wiviyu everi sitepu ofu deweyi.

Ibiro by'ubwishingizi hakaba hariho imiryango ibiri ifunguye, hejuru hakaba hariho icyapa cy'ubwishingizi, kigizwe n'amabara y'umuhondo n'ubururu.

Inzu y'igorofa munsi yaho hakaba hariho umuryango ufunguye uriho ibyapa byamamaza, ibyo byapa bikaba byanditseho pureme inshuwarensi, ku ruhande hakaba hariho ikindi cyapa cy'umweru kiriho amabara y'umukara yanditseho "Rwanda cidureni edikeshoni fondeshoni".

Umugabo ari gusohoka aho bakirira abantu, inyuma ye hari undi mugabo, inyuma yaho hakaba hari ibyapa byamamaza by'umweru n'icyatsi, handitseho ishinganisha n'abawe muri Solasi vi.

Inzu ya etaje idekoreshejwe ibirahure hagati ku gakuta, hakaba hariho amagambo y'icyatsi imbere yaho hakaba hateyeho ibiti.

Ifoto y'ibiro by'ubwishingizi. Imbere hakaba harimo mashine, hakaba arimo intebe, hakaba ariho n'ibirango byamamaza.

Ibiro by'ubwishingizi bwa SONARWA, bikaba biriho n'umuryango ufunguye, imbere yaho hakaba haparitse imodoka.

Abagabo batatu bicaye ku ntebe imbere yaho hakaba hari ameza ariho icupa ry'amazi, inyuma yaho hakaba hariho ibyapa by'ubwishingizi ryanditseho purayimu inshuwarensi mu mabara y'ubururu n'umuhondo.

Abantu babiri bicaye, imbere yaho hakaba hari ameza. Impande yaho hakaba hariho mudasobwa n'umuryango ufunguye imbere yaho hakaba hariho n'icupa ry'amazi yo kunywa.

Umugabo uhagaze mu biro wambaye kositimu y'umukara n'ishati y'umweru n'inkweto z'umukara, inyuma ye hakaba hariho kompiyuta iri hejuru yameza n'intebe y'umukara.

Inzu ya sare iriho ameza ndetse n'intebe, iriho n'inkingi ziyigize. Hejuru hakaba hariho amatara acanye mu ibara risa umweru.

Bari kukwereka umusore wambaye ishati ufite impapuro mu ntoki hakaba hari n'abantu babiri baje kwaka serivisi zigiye zitandukanye.

Icyapa cya beyeride mu magambo araambuye developumenti banki ovu Rwanda, hagati kikaba kiriho micro bakaba bashishikariza abantu kuba bafata inguzanyo mu buryo buboroheye cyangwa se izindi serivisi.

Umukobwa uri guseka washyize ikarita mu cyuma cya atm ku ruhande hakaba hariho amagambo yanditse ngo the future is pana african.

Abakobwa babiri bahagaze bakaba barimo kwamamaza Akisesi bakaba bakwereka n'amagambo ku ruhande y'umweru n'icyatsi yanditse "gushyira imbere iterambere rya buri mugore".

Bari ku kwereka umukobwa wifashe ku mutwe impande ye hakaba hariho inote z'ibihumbi bitanu y'amafaranga y'u Rwanda hejuru hakaba handitse nidi egisitara cashi.

Abagore batatu bicaye inyuma yaho hakaba hari n'abandi bantu benshi bagiye bahagaze, impande yaho hakaba hari ibicuruzwa bacuruza birimo ibitunguru, karoti ndetse n'intoryi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko ry'aho bacururiza imbuto hakaba hariho imineke, hakaba harimo inanasi, hakaba harimo ibinyomoro, harimo na pome, hakaba hariho n'ibindi bagurisha bigiye bitandukanye.

Umugore wicaye impande hakaba hari tungurusumu, inyanya, imineke ndetse n'imbuto, impande ye hakaba hari agakapu.

Abantu baje guhaha mu isoko bicuruza imitako ya kinyarwanda, cyangwag se n'imyenda igiye itandukanye.

Isoko ricururizwaho imitako ya kinyarwanda, rikaba ririho ibiseke, bikaba biriho n'utugoma twa kinyarwanda, ku ruhande hakaba hariho n'imitako bataka mu nzu.

Isoko ricuruza ibiribwa bigiye bitandukanye, bikaba birimo karoti, inyanya, intoryi, n'imiteja hakaba hahagaze n'umugabo wambaye umupira w'ubururu ufashe ku nyanya.

Abadamu bari gucuruza akaba harimo babiri bicaye n'umwe uhagaze bakaba barimo gucuruza imineke iri mu mabase ndetse n'ibishyimbo, hirya hakaba hari n'utundi tubotike.

Uruganiriro rusa neza rusize irangi ry'umweru urimo n'amatara agezweho harimo intebe nziza rwose zisa icyatsi z'imisego tukabona ameza y'andi meza agezweho rwose afite n'utubati ateretseho icyo bita telekomande gikoreshwa kuri televiziyo, tukabona kandi igihuha gitanga umuyaga muri salo n'imitako myinshi.

Abantu bicaye mu isoko bakaba barimo gucuruza inyanya, amashu, na karoti umwe muri bo wicaye impande ye hakaba hari mu butaka.

Bari kwereka akazu gatangirwamo serivisi za MTN, hakaba hari n'abantu bahagaze bategereje serivisi zabo.

Abantu batatu bahagaze kuri sitasiyo ya lisansi, hakaba harimo abagabo babiri ndetse n'umukobwa umwe wambaye umupira w'umuhondo uriho ibirango bya emutiyene.

Umugabo w'umucuruzi wambaye amarinete, umupira wa la kosite w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi imbere ye hakaba hari abantu b'abaguzi baje kugura ibyo agurisha, imbere ye naho hakaba hariho mashine yandikamo ibyo baguze.

Umugabo uri guseka wicaye ku igare, wambaye umwenda wa emutiyeni w'amabara y'umuhondo n'umukara akaba azamuye urutoki, inyuma ye hakaba hari n'abantu bahagaze ku mutaka wa emutiyeni.

Akazu ka emutiyene, kagizwe n'amabara y'umuhondo, n'ubururu, n'umweru, kakaba kazengurutswe n'abagabo baje kubaza serivise za emutiyene.

Bari kukwereka ifoto yamamaza ya eyateri iriho abakobwa babiri barimo guseka, ku ruhande hakaba hariho akaetajeri gakoze mu birahure karimo amatelefone mu imbere.

Umuntu waje kunywesha esanse kuri sitasiyo, imbere ye hakaba hari abantu babiri bambaye imipira y'umuhondo, umwe mu gatuza hakaba handitse peyi wizi momo.

Akazu ka MTN, hejuru kakaba kariho icyapa cyaho, hakaba hariho n'amagambo yanditseho Rwanda Leading Network, impande yaho hakaba hari n'abantu bahagaze.

Umuntu wicaye uri guseka, wambaye koteri mu mu matwi, ufite na terefone mu ntoki, ku ruhande hakaba hari agakapu gasa umukara n'umweru kanditseho amagambo mu nyuguti z'umweru erite dijito.

Ifoto iriho umukobwa uhindukira inyuma, urimo guseka, impande ye hakaba hari amavuta yo kwisiga, asa nkaho arimo kugenda ayamamaza.

Bari kukwereka apulikasiyo wakorera kuri mudasobwa yawe, bakakwereka serivisi ushobora gukoresha, yaba izo kugura ikintu onulayini, cyangwa se uburyo ushobora kohereza amafaranga, n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'ikoboye impande ye hakaba hariho intebe ndetse nameza imbere ye akaba ariho ndetse na esikariye zizamuka.

Umugabo wambaye ijire y'ubwubatsi, uri ku muhanda, impande y'iwe hakaba hari imirima, inyuma ye hakaba hagaragara igisenge n'igikuta.

Inzu igeretse yo guturamo, ikaba iherereye mu mugi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni magana atatu mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Bari kukwereka saro irimo imitako n'amarido, bakakwereka n'intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza asa umukara ari hejuru y'itapi.

Inzu yo guturamo ikodeshwa ,ikaba iherereye ku muhanda .Ikaba ifite irange risa umuhondo n'umukara. Ikaba ikodeshwa, igihumbi cy'idorari .Ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu y'aparitema yo guturamo ikodeshwa ibihumbi bibiri by'idolari ku kwezi ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu ifite irangi ry'ubururu ikaba ifite n'igisenge cy'umutuku ikaba ikodeshwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite ibyumba bine bifite tuwarete eshatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa kimironko mujyi wa kigali, ikabafite ibyumba bibiri ikaba ifite na dushe ebyiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu y'amanyarwanda ku kwezi.

Inzu yo guturamo ikodeshwa ikaba iherereye kimironko mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite ibyumba bibiri na dushe ebyiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane y'amanyarwanda ku kwezi.

Inzu yo guturwamo ifite gate ikaba iri mo imbere n'imodoka iparitse ikaba ikodeshwa Kimironko mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite ibyumba bibiri, ikaba ifite na dushe, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu y'igorofa yo guturwamo ikodeshwa magana arindwi y'amadorari ku kwezi ikaba iherereye kimihurura.

Inzu ikodeshwa ifite icyumba kimwe, ifite na tuwarete imwe ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi, Kacyiru mu mujyi wa Kigali.

Inzu yo guturwamo ya aparitema, ikodeshwa Kibagabaga, ikaba ifite ibyumba bibiri na dushe ebyiri, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu byonyine by'amanyarwanda.

Inzu irimo amakaro ikaba ifite umuryango ufunguye iriho n'udutara ducanye, ikaba ikodeshwa i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ifite ibyumba bine na dushe eshatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana tatu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa Kagugu munsi ya Rubc petro station ikaba ifite ibyumba bibiri na toilete ebyiri, self compounds.

Inzu ikodeshwa i Kanombe mu mujyi wa Kigali ifite ibyumba bine na dushe eshatu imbere yaho hakaba haparitse imodoka.

Inzu ikodeshwa iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ifite ibyumba bitatu na dushe ikaba ikodeshwa ibihumbi magana ane by'amanyarwanda.

Inzu ebyiri zo guturamo zikaba zitandukanyijwemo n'agakuta kubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zikodeshwa Kimironko mu mujyi wa Kigali.

Inzu ikodeshwa, ikaba iherereye Kimironko mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa miliyoni cumi n'eshanu ziri negoshiyebo.

Inzu yo guturwamo iri mu gipangu ikaba ikodeshwa mu mujyi wa Kigali Kimironko, ikaba ifite ibyumba bine, tuwarete eshatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amanyarwanda ku kwezi.

Moto iparitse impande y'igikuta, gifatanye n'igipangu, mo imbere hakaba harimo inzu ikodeshwa, ibihumbi magana atatu by'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu yo guturwamo ikodeshwa, ikaba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite ibyumba bine na tuwarete eshatu.

Inzu y'igorofa yo guturwamo, ikaba ikodeshwa na nyir'ubwite, ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse na dushe ebyiri.

Inzu ya liyo esiteti ikaba igurishwa ibihumbi ijana na mirongo ine y'amadolari ikaba iherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko basa nkaho baje guhaha ibintu runaka, muri ibyo bintu baje kugura harimo amasakoshi n'imyenda n'inkweto zigiye zitandukanye.

Isoko ricururizwamo imbuto rikaba ririmo abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba hari ibintu biteretse ku meza birimo imineke, birimo ibitunguru, birimo n'imbuto zigiye zitandukanye.

Abantu bari mu iduka ricururizwamo amakote y'abagabo yo kwifubika, inkweto, amasakoshi y'abadamu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umukobwa waje kugura ibyo guteka, akaba yambaye tisheti y'amaboko magufi, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, akaba afite na anverope ya kacyi mu ntoki.

Abantu babiri basa nkaho bari guciririkanya ibiciro, bari mu isoko rigurishirizwamo imyenda, inkweto ndetse n'amasakoshi n'ibindi bigiye bitandukanye.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye harimo, urujya n'uruza rw'abantu bakaba bacuruza amashu, inyanya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye

Iduka ririho ibicuruzwa, ibyo bicuruzwa bikaba bigizwe n'amasakoshi n'inkweto, inyuma yaho hakaba hari abaguzi baje kubigura.

Umugabo uhagaze uri kubwira abantu, ufite mikoro mu ntoki, wambaye ikote rya kositimu na karuvati n'ishati y'umweru, inyuma ye hakaba hariho amagambo ya RSSB.

Udushushanyo tw'abantu batatu bazengurukishijweho n'umutaka, munsi hakaba hariho inyuguti z'umweru zanditseho mituweli ubwishingizi no kwivuza, zirimo gukangurira abantu no kugira mituweli z'ubwishingizi bwo kwivuza.

Igishushanyo cy'uruziga kigizwe n'amabara y'umuhondo, umukara na move, hakaba hariho inyuguti ya ara esi esibi, ku ruhande hakaba handitseho awa helifu awa fiyuca.

Ikarita y'ubwishingizi mu kwivuza ikaba iriho umwana, ikaba iriho n'imyirondoro ye, ikaba isa mu ibara ry'umuhondo.

Umudamu wagiye kwivuza imbere ye hakaba hari abadogiteri bambaye itaburiya isa umweru akaba afite n'ikarita yo kwivurizaho ya mituweri.

Abagabo babiri bafashe kuri mituweli hakaba hari n'abandi barimo gukoma amashyi, hakaba hari n'abandi bicaye bazengurukijwe n'ihema ririho amabara y'ubururu n'umuhondo n'icyatsi.

Inzu ya supamaketi icururizwamo biswi zigiye zitandukanye, hasi yaho hakaba hubakishijwe n'amakaro.

Aka etajeri karimo ibicuruzwa, ibyo bicuruzwa bikaba biri mu mashashi, hejuru yaho bakaba hari agapurafo k'utuzu tw'umweru n'umuhondo n'umutuku.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru ufashe ifu mu ntoki, impande ye hakaba hariho utu etajeri turiho ji na za fanta zo mu ducupa n'amata n'ibindi bitandukanye.

Ibicuruzwa biri aho bahahira ibyo bicuruzwa bikaba bigizwe n'amabiswi n'amaji, imbere yaho hakaba hari ibindi bisa nkaho biri mu kirahure, hejuru hakaba hari akapa kanditseho bureke fasite k'umukara n'umweru.

Abantu babiri baje muri supamaketi, baje kugura ibiribwa cyangwa ibinyobwa, hakaba hari umwe wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'amaboko magufi, n'undi wambaye ipantaro y'ikoboye na jampa.

Umuntu uhagaze waje aho bagurira ibiribwa bigiye bitandukanye. Birimo amashu, bitunguru na karoti. Uteruye agakapu kariho indabo.

Supamaketi icururizwamo ibintu byo kurya ikaba irimo amadebe ya nido y'amata y'ifu kuruhande hakaba hariho n'amabiswi ari mu dukarito.